Ikimera ciza cane dukoreshaga mu buvuzi aho ubuvuzi budufashaga kugira imibereho myiza cane tukivura indwara zitandukanye.

Ikimera ciza cane dukundaga gukoresha mu murimo w'ubuvuzi twivura indwara zitandukanye, kugira tubashe kugira imibereho myiza cane.

Ndabona ikimera, ibimera dukundaga gukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi twivura indwara zitandukanye, kugira ngo tugire imibereho myiza cane.

Ibimera dukundaga gukoresha mu buvuzi, aho twivuraga kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza cane ndetse n'imibereho myiza cane.

Ibihingwa byiza cane, ibihingwa dukundaga guhinga mu majaruguru aho ubuhinzi budufashaga kwiteza imbere ndetse tukabasha kugira imibereho myiza cane.

Igihingwa dukundaga gukoresha nk'umuti twivura, aho kidufasha kuvura indwara zitandukanye mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ikimera ciza can dukundaga gukoresha turi gukora ubuvuzi, aho bituvuraga indwara zitandukanye cane, turabiteraga mu majaruguru kugira ngo bidufashe mu buvuzi.

Ikimera ciza cane, dukoreshaga mu buvuzi, kidufashaga kwivura indwara zitandukanye ndetse no kugira ubuzima bwiza cane.

Iyi foto ubu ikaba igaragazwamo igihingwa kimeze neza cane, bakoresha mu gihe cy'ubuvuzi. Ubwo buvuzi gakondo, kikaba kidufasha mu gihe turwaye indwara zitandukanye.

Igihingwa ciza cane dukundaga gukoresha nk'umuti, aho tubikoreshaga turimo twivura indwara zitandukanye, kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza cane.